Muri sale itangirwamo ibiganiro harimo ameza ateguye neza harimo n'imbaga nyamwinshi yicaye ikurikiye umugore wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ikote ry'umukara urimo kubahereza ikiganiro.

Imodoka nziza cyane y'umweru. Iparitse hafi n'umugezi. Aho abana bane barimo kuvomera amazi. Ndetse hari n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, urimo abafasha kugira ngo bavome amazi neza batayamena.

Amazi ni meza mu buzima bwa muntu. Ku mugezi hari umwana wambaye ikabutura y'umutuku, inkweto z'ubururu, ndetse n'umupira usa n'imyenda y'ibara rya gisirikare. Arimo aravomera amazi mu ndobo, gusa uko bigaragara afite n'inyota. Ariko yabuze ikintu anywesha amazi. Niyo mpamvu yahisemo gukoresha intoki.

Amazi ni ubuzima. Ku mugezi hari umugore n'umugabo barimo kuvoma amazi bakoresheje amajerekani abiri y'umuhondo, imbere yabo hari umugore urimo kubaganiriza wambaye jire ifite ibara rya oranje.

Munsi y'ibiti by'icyatsi hari imigezi eshatu, hari abana bambaye imyenda y'ishuri ya kaki, harimo abakobwa n'abahungu barimo kuvomesha indobo eshatu z'umuhondo ndetse n'akajekani kamwe.

Munsi y'igiti k'icyatsi harimo abantu benshi bambaye udupira tw'umweru, abandi bambaye udupira tw'ubururu, bambaye ndetse n'ingofero z'umweru. Bafashe igipapuro kinini cyanditseho ngo "Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri." Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri icyorezo cya covide cyari cyugarije ibihugu byinshi byo ku iyi si ndetse n'u Rwanda rurimo, ni muri urwo rwego igihugu cyafashe imyanzuro yo kwirinda icyo cyorezo binyuze mu kwambara udupfukamunwa ndetse no gukingira abaturage bacyo. Muganga arimo gukingira umukecuru wambaye agapira k'umukara afashe n'umupira.

Umwana ni umutware ni ko mu Kinyarwanda bavuga, umugore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ingofero, arimo kugaburira abana amata, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse hari n'ingabo y'u Rwanda ifashe andi mata, baza kugaburira abandi bana, dore ko mu Kinyarwanda bavuga ngo abana ni rwo Rwanda rw'ejo.

Muri jaride harimo abagore bane, uwambaye itaburiya y'umweru ni muganga, arimo gusuzuma umubyeyi ndetse hari n'abandi babyeyi babiri bategereje ko abasuzuma baje kwivuza.

Mu cyumba giteguye neza harimo umusaza wicaye mu ntebe, arimo kuganirizwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu yabugenewe, barebana ndetse banaseka bishimye cyane.

Mu cyumba cyo ku bitaro harimo umuganga wambaye imyenda y'ubururu, urimo guhereza umukecuru waje kwivuza ikinini ndetse harimo n'ikirahure cy'amazi giteretse ku meza, ariyo umurwayi ari buze kunywesha umuti.

Mu cyumba hari umukecuru ufashe igipapuro cy'umweru, yicaranye n'umusaza barimo kurebana muri telefone, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi ndetse n'uducupa tw'umweru.

Umukobwa w'inzoga urimo guseka yicaye mu ntebe, yambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara ndetse n'ikoti rya kaki, afashe indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro ku byerekeye inda zitateganyijwe mu bangavu.

Munsi y'ibiti by'icyatsi harimo umuhanda w'igitaka ndetse hafi aho hahagaze abagore batatu bambaye imyenda y'ubururu ndetse biteze n'udutambaro dusa.

Ku bitaro bya Kigina, harimo inyubako nziza. Hari n'umuryango ufunguye. Bigaragara ko ari amasaha y'akazi ndetse hari n'umubyeyi uhahagaze, uhetse umwana, waje kuhivuriza.

Mu Rwanda buri karere gafite ibitaro bikuru bifasha abaturage bo muri ako karere kwivuza byoroshye. Ibi ni ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Harimo igiti k'icyatsi ndetse n'abaganga babiri bambaye imyenda y'umweru.

Mu cyumba kirimo uburiri busashe neza, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'ubururu, ufite imisatsi miremire bigaragaragaraga ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri.